Amahugurwa yatanzwe ku mikoreshereze ya gaze, n'byifashishwa bizimya inkongi y'umuriro, aba bantu baje kureba, baje kwihugura kugira ngo nabo bajye bakoresha, ibi bikoresho iwabo mu rugo mu gihe bahuye n'ikibazo babone n'uburyo bakwitabara.

Adeperi Rwinkuba ni urusengero rusengeramo abakirisitu b'abarokore, bakunda gusenga ku cyumweru, adepri Rwinkuba ni urusengero rw'abarokore.

Igorofa ryubatse rishobora kuba ryakorerwamo imirimo myinshi, harimo nko gukodeshamo uri gucururizamo, cyangwa se uri gukodesha itangirwamo amahugurwa ku ngingo zitandukanye. Iyi nzu rero yakwifashishwa muri byinshi.

Uyu mukino witwa Tonisi. Ni umukino ushobora gukina ufite akantu kameze nk'umwuko, batera agapira gatoya, uyu mukino ushobora kuba wabonamo amafaranga uramutse uwukina.